Imukozi wambaye imyenda yabugenewe irimo hagapfukamunwa ndetse n'igisurubeti cyabugenewe, ahetse ipombo yifashishwa mu gutera umuti mu myaka kugira ngo itangizwa n'udukoko, ari kugenda atera umuti ku myaka.

Umuhinzi wambaye ingofero, ari gutera umuti wica udukoko mu nyanya akoresheje igikoresho cyabugenewe kandi kugira ngo inyanya ze zitanangirika cyangwa se ngo zangizwe n'udukoko.

Umworozi w'amafi amaze gufata amafi ayakuye mu mazi, akoresheje umutego ukoze mu nzitiramibu, amaze kuyafata ahagaze ayafite mu ntoki kugira ngo bamufotore.

Abagore bakora umwuga w'uburobyi, nyuma yo gufata amafi bakoresheje umutego uko muri supaneti, bari kuyakura mu mutego bayazana ku butaka, hari umugabo ufite kamera ndetse na telefone bari gufotora.

Umurobyi ubikora kinyamwuga ari mu mazi, ari gutega umutego kugira ngo arebe ko hajyamo amafi akoresheje inzitiramibu, iruhande rwe hari ibiti bifasha kuzana ibyokurya mu mazi kugira ngo amafi akure neza.

Mu gishanga gikikijwe n'ibiti byinshi, isuri yaraje irengera umuceri ndetse n'imigende itwara amazi iruzurirwa, bigaragara ko iruhande rw'igishanga hari inzuka ibika umuceri, ishakaje ibati ry'umutuku.

Umwana yicaye iruhande rw'ibyuzi by'amafi, aho bayororera kugira ngoku babone kuyarya, iruhande rwabyo hari ibiti by'inturusu bifite amashami ndetse n'ibindi bikiri bitoya.

Umurobyi ari mu bwato mu mazi hagati afite imitego ategesha amafi, iruhande hari ibiti birebire ndetse n'inyubako zisakaje amabati y'umutuku.

Umumama uhagaze mu gisambu afite ifi akuye mu mazi arimo kuyereka abamureba, ahagaze munsi y'ishyamba rinini rifite ibiti bitandukanye birimo iby'inturusu ndetse n'ibyatsi byinshi.

Abarobyi babiri bambaye ingofero z'umutuku ndetse n'ibisurubeti byabugenewe, bicaye ku byuzi baroberamo amafi atandukanye amaze gukura bagasigamo amatoya ndetse iruhande hari utuzu tugemurirwamo amafi ibiryo arya.

Mu murima w'icyayi umusaruzi wacyo yikoreye icyo amaze gusarura, hakurya hari amatarasi y'indinganire, aho hagiye hateyeho ibiti bitandukanye by'inturusu n'ibindi birere by'amoko atandukanye.

Abaturage bari mu cyayi bahetse ibitebo bari kugenda basarura umwe ni umugabo undi ni umudamu undi n'umwana bahetse bikapu bari kugenda basaruriramo icyayi ni icyayi gitoshye, hakurya yabo hari uruganda bagitunganyirizamo.

Bagaragaza ikawa mu biganza byabo zihiye zifite amabara atukura, abahinzi ni bane mu biganza bigera kuri cumi na bitandatu bateruye ikawa mu biganza byabo bagaragaza uburyo zeze neza.

Umurima uri mu kibaya, uhinzemo ingano, zigiye zihinze ku murongo kugira ngo abavomera ndetse n'abazibagara babone uko bagendamo bazibagara, hakurya haragaragara ikirere.

Abahinzi b'icyayi bari mu cyayi, bamwe bari gusarura, abandi bamanitse amaboko, abandi bahetse ibikapu basaruriramo, abandi bari kuzinga imifuka kugirango ngo babone uko basarura icyayi, umugabo umwe ahagaze areba imbere.

Umuhinzi wa kawa wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agapira k'umweru imbere, ingofero y'umweru n'amarinete, ari mu murima w'ikawa, ari kureba ko zenda kwera kugira ngo azisarure, ari mu murima kandi w'ikawa zitoshye, za kawa kugira ngo arebe aho zigeze zera.

Umudamu wambaye ibitenge ndetse n'ikinigi mu izosi, ari mu murima we w'ikawa ari kureba ko zeze, ari kugenda yubura amababi areba, ifoto igaragaraho n'izindi nyajwi tutazi uwazanditsemo.

Abahinzi barimo umudamu witeze igitambaro, arikumwe n'umugabo, bari gusarura icyayi, umugabo yambaye ingofero, bari gusarura icyayi bagishyira mu gitebo, kugira ngo bakijyane ku ruganda.

Umukozi ukora mu ruganda rw'ikawa yikoreye ibasi irimo ikawa bamaze kuronga, azijyanye mu bwanakiro kugira ngo zanikwe zibone kwanurwa, zishyirwe ahabugenewe kugira ngo zitangirika.

Umuhinzi wa kawa ari mu murima yambaye amaherena n'umupira mwiza w'umuhondo ari gusarura ikawa ni mu gihe cyazo cyo kwera ari mu mpinga y'umusozi ahari ibiti byinshi bitandukanye, hari inunsu n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibiti.

Abahinzi batatu, barimo abagabo babiri ndetse n'umudamu, bafite ibitebo basaruriramo icyayi, bari gusarura icyayi, bagenda bagishyira mu bitebo byabo, kugira ngo kijyanwe mu ruganda gitunganirizwamo.

Mu cyumba babikamo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo harimo ibikarito bitandukanye birimo imiti bifashisha bavura amatungo harimo ihene, inka n'intama.

Mu gikarito kirimo imiti ivura inkoko harimo udushashi dutandukanye turimo imiti ivura indwara z'inkoko zitandukanye, inkoko ziri ku byapa by'iyo miti kugira ngo uyigura amenye iyo ari yo.

Icyumba babikamo imiti ivura amatungo, harimo iri mu bikarito ndetse n'indi iri mu macupa kugira ngo itangirika mbere y'uko bayigurisha ku bakiriya bayishaka. Imiti igiye yanditseho amazina ya buri muti.

Indobo zipfundikishije imipfundikizo y'amabara y'ubururu ndetse n'indobo z'umweru, utuvido tw'umweru turimo imiti yifashishwa mu kuvura inyamaswa zororwa mu rugo, harimo inka, ihene, intama ndetse n'izindi.

Umuti wica udukoko, amacupa ane apfundikishije imipfundikizo y'amabara y'umuhondo ari ku meza aho ateretse kugira ngo atangirika, inyuma y'ameza yanditseho amagambo y'umukara ari mu ibara ry'umweru.

Imiti bakoresha bavura amatungo iteretse mu cyumba cyabugenewe imwe iri mu bikarito, indi iri mu mubuvido, igiye iriho ibyapa bigaragaza ubwoko bw'umuti.

Inzu bacururizamo ibiribwa harimo ubwoko butandukanye bw'imiceri, buri mu mifuka y'umuhondo, iy'umutuku ndetse n'icyatsi, hagaragara ibikoresho bifashisha badaha umuceri.

Mu nzu harimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo yarwaye, harimo iri mu bikarito, mu macupa iyindi mu ndobo kugira ngo itangirika mbere y'uko bayifashisha bavura amatungo.

Imboga zahinzwe n'umuhinzi zitoshye, ziri mu biti birebire bifite amashami agenda arandara, akora hasi kandi hari n'ikigega kinini kifashishwa mu kuvomera izi mboga kugira ngo zitabasha kuma mu gihe cy'izuba.

Umushumba ufite inkoni wambaye ikote n'ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, ahagaze mu rwuri ahari inka nyinshi zifite amabara y'umweru n'umukara, munsi y'ibiti bifite amashami.

Inka zri mu kiraro cyazo ziri gufata ubwatsi zahawe n'umushumba, zambaye amaherena zifite ibara ry'umweru n'umukara byo bita ikibamba, ziri ku zuba mu bigaragara kandi ziri mu biti by'ibyuma bifite ibintu bigiye bifungishije.

Mu gishanga bahingamo umuceri, abahinzi bari guhinga harimo abadamu n'abagabo bafite amasuka. Hakurya yabo hari ishyamba ricukitse ndetse rifite ibiti birebire.

Umugabo asunitse igare ririho igitiyo ndetse n'inkwi. Inyuma ye hari undi mugabo mugenzi we ufite umuhoro mu ntoki, wambaye na bote. Bari kugenda mu byatsi birebire mu kayira gato gahari. Iruhande hakurya hari ibiti birebire.

Wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ari gutera igiti muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije ari kumwe n'undi mugabo ufite isuka wambaye ipantaro y'umukara n'nkweto z'umukara hamwe nabandi baturage bari muri gahunda yo gukomeza kubungabunga ibidukikije bacukura n'imiringoti n'imirwanyasuri.

Abahinzi bavuye guhinga, bari kugenda kumusozi hagati y'ibyatsi, umuhinzi umwe ahagaze afite isuka ku rutugu ku girango bamufotore, hejuru y'umusozi hari ibiti birebire.

Umushumba wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, ari mu rwuri rwe afashe inkoni ari kugarura inka ze zitajya kona, inka ze zirimo izifite amabara y'umukara n'umweru ndetse n'amaherena ku matwi.

Umusore wambaye umupira w'umweru usunitse igare, afite inkwi avuye gutashya mu ishyamba azitwaye ku igare rye, ari kugenda mu byatsi birebire, iruhande hari ibiti birebire by'amashami maremare kandi ni ku zuba saa sita z'amanywa.

Mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo gutera ibiti. Umugabo yacukuye icyobo, ari guteramo igiti, ari kumwe n'umwana w'umukobwa, iruhande rw'ikigo cy'ishuri. Hirya yabo hari abandi bana nabo bari gutera ibiti.

Mu murima uhinzemo ibihingwa, harimo igiti kirekire cy'ipapayi gifite ishami kuruhande ryazanye ururabyo, kugirango rubone uko rweza imbuto abantu babone ibyo barya.

Igishanga gihinzemo umuceri, harimo igitambaro hifashishwa mu kwamagana inyoni, hari inyubako ziri hakuya yubakishije amabati y'umweru ndetse n'ibicu mu kirere.

Aho bagurira ibiribwa bitandukanye, harimo ubwoko bwinshi bw'ibirungo, harimo amakaroni, isukari ndetse n'ifu y'igikoma, harimo n'ibinyampeke byifashishwa, mu gukora ifu y'igikoma.

Umwumbati ukimera ufite amababi meza atoshye, iruhande rwaho hari urutoki rufite amakoma ndetse n'ibishangara, harimo insina ndende n'izindi zikimera, hakurya yaho hari ibiti birebire.

Mu kibaya harimo ibyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye, bitoshye kandi harimo n'ubwoko bwinshi bw'ibiti butandukanye na bwo butoshye, hari kandi inzu iri mu mpinga y'umusozi ishakakaje amabati y'umutuku, ifite amarangi y'ibara ry'umweru.

Umurima uhinzemo imyaka yishwe n'izuba mo imbere harimo imyumbati n'ibiti bya gereveriya ku ruhande, hirya hari urutoki rw'amatere rutari rwera, hakurya hatuye abaturage bagiye bari mu bice bitandukanye bafite inzu zisakaje amabati.

Mu murima w'ibigori harimo ikigori cyumye cyaboze hejuru gifite imisatsi yumye, mu murima harimo n'ibindi bigori birimo ibyumye, ibibisi bifite amababi yumye, n'ibifite amababi akiri icyatsi.

Ibirayi byeze neza bibyibushye, biri mu gitebo babishyiramo mbere y'uko babijyana ku isoko kugira ngo bibone abakiriya, uwabihinze abone amafaranga amutunga, ubuzima bukomeze nk'abandi bose.

Igihingwa k'isoya giteye mu butaka, kimaze gukura cyazanye imisogwe kirikumwe n'ibindi bimera, birimo ubunyobwa n'imigozi, iruhande rw'inyubako zisakaje amabati y'umutuku.

Umurima w'ibigori ukikijwe n'urugo rukozwe n'ibyuma, hakurya hari umusozi muremure uriho ikibaya cyubatsemo inzu zubakishije amabati y'umweru.

lbigori bimaze gukura bigeze mu gihe k'ibagarwa, biyifite amababi menshi biratoshye kandi biragaragara y'uko umuhinzi yabyitayeho neza agashyiramo ifumbire mvaruganda, ndetse n'imborera kugira ngo bibashe kwera neza.

Ibiti byo mu bwoko bwa gereveriya bikikije ikiyaga kirimo amazi ari menshi, munsi y'ibiti harimo ibyatsi bigenda birandaranda harimo n'akayira kanyurwamo n'abantu.

Mu kibaya cyagutse harimo udusozi tugiye dufite imibande, ku misozi hariho amashyamba acucetse arimo ibiti bitandukanye, hakurya hagaragara imisozi miremire.

Mu kibaya cyagutse harimo imisozi mito ndetse hahinzemo imyaka y'ubwoko butandukanye, harimo amashyamba acucitse, hakurya hari imisozi miremire ndetse hagaragara ikirere.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti bitandukanye, harimo birebire n'ibigufi, harimo inzu yubakishije ibyuma ndetse n'amabati, ifite irangi ry'icyatsi, hakurya haragaragara imisozi ndetse n'ikirere.

Urwuri rurimo inka nyinshi ziri kurisha ni mu byatsi bitoshye harimo izifite amabara y'umukara, harimo n'izindi zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, harimo ibiti birebire bifite amashami.

Mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti by'amoko atandukanye, bimwe bifite n'indabo. Hubatsemo inzu ifite amabati y'icyatsi. Hakurya haragaragara ibicu by'ikirere. Mu ishyamba hagiye harimo ibiti birebire n'ibigufi.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibihuru ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye hari kuva izuba ni ku manywa ibiti bigiye bifite amababi maremare ndetse n'amagufi kugira ngo bifate urumuri rw'izuba.

Ishyamba ririmo igiti kinini cy'umuko. Harimo ihene eshatu, imwe ifite amabara y'umweru, indi ifite amabara ya kake, indi ifite amabara y'umukara kandi icyo giti gifite amashami agenda akora hasi.

Aha harimo inzu zubakishije ibyatsi, hari kuzamukamo umwotsi bigaragara ko batetse mu gikoni, hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'imisozi miremire n'ibicu mu kirere bigaragara ko byatanga imvura.

Ku butaka burambitse hagaragara ibiti bibiri birebire, biri iruhande rw'urutoki, ndetse n'urugo rw'amatafari, iruhande rwabo hari ibiti birebire bifite amababi ndetse n'igihuru gikikijwe n'ibiti birebire.

Mu ishyamba ry'inzitane harimo ibiti bitandukanye, harimo ibifite amababi y'icyatsi ndetse n'ibindi bifite amababi atari icyatsi burundu, ni ishyamba ririmo ibiti ndetse n'ibihuru.

Ikibaya cyagutse kirimo ibimera hasi ndetse haretsemo amazi. Hakurya hari ibiti bifite amashami, ibiti bitari birebire, ku zuba rya kumanywa.

Ari mu murima, ari kuvomera imboga z'amashu akoresheje indobo y'umutuku irimo amazi, yambaye ikanzu ndende akenyeye igitenge mu nda, ateze n'igitambaro, ni saa sita z'amanywa; muri uwo murima harimo n'ibindi bihingwa birebire harimo n'amapapayi.

Muremure ari mu murima we w'amatunda. Yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara ndetse n'ipantaro isa na kake kandi ari mu murima w'amatunda. Urimo amatunda yenda kwera, imiteja ndetse n'afite ururabo.

Imboga z'amoko atandukanye harimo amashu, ibitunguru, imiteja, tungurusumu, amapera, biringanya, inyanya, ndetse n'ubundi bwoko.

Igikoresho kifashishwa mu gutwara amazi, iruhande rwacyo hari ibigori bihinze bitangiye gusambura kugira ngo bibashe kwera. Munsi y'igikoresho hari ibyatsi bihapfutse.

Ikibaya cyagutse gihinzemo umuceri, kigiye giciyemo ibyiciro. Hakurya haragaragara ishyamba ndetse n'ikirere kirimo ibicu byiganje ariko bitatanga imvura. Hasi yigishanga, haragaragara abaturage bicaye mu bishanga.

Mu kibaya kirimo icyayi gihinze ku mirongo, harimo ibitembo byohereza amazi kure bivomera icyayi kugira ngo kitumba mu gihe k'impeshyi, igihe izuba ryabaye ryinshi.

Kumererera imyaka iri mu butaka itaramera, iruhande rwe hari iyindi yameze itoshye, ni mu kibaya kirimo inyubako yubakishije amabati y'umweru ndetse n'imisozi, hakurya kiriho ibiti ndetse n'ikirere kerurutse.

Umurima uhinzemo inyanya harimo ibasi ndetse n'umurasire wifashishwa mu kuzana umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babone uko bavomera inyanya bidasabye imbaraga nyinshi kugira ngo izi nyanya zituma.

Umurima uhinzemo karoti zigiye zihinze kumurongo, harimo ibitembo bizamura amazi mu butaka, biyavomeza izi karoti kugira ngo zituma, hagaragara imisozi hakurya.

Umudamu ukora iby'ubuhinzi ahagaze mu murima, afite igitembo mu ntoki ze ari kuvomerera amashu, inyuma ye hari umurasire wabugenewe, wifashishwa mu gutanga imbaraga z'amashanyarazi kugira ngo babone uko bavomera aya mashu.

Umubyeyi ufite igitembo mu ntoki, ukenyeye igitenge ndetse wambaye umupiraf n'igitambaro, ari kuvomera amashu kugira ngo atuma, iruhande rwe hahagaze abagabo batatu bitegereza uko avomera.

Umuhinzi uri mu kibaya bahingamo imyaka, afite igice cy'ikidido kirimo amazi, arikuvomerera imyaka, ugenda akoza intoki mu gice cy'ibido anaga amazi ku myaka, iruhande rw'umurima hari igihuru.

Umwana ufite rozwari irimo amazi ari kuvomera imboga, ku muhanda hari imodoka iparitse iri munsi y'igiti kirekire, hari inzu isakaje amateguru ashaje ifite urugi rwatobotse ndetse n'idirishya ririmo umwenda ucitse.

Umurima w'imboga zihinze ku murongo, harimo ibitembo byifashishwa mu kuvomera kugira ngo izuba ritanyangiza imyaka, ikuma itarera, ku ruhande hari ibiti birebire.

Umusore uhagaze ufite igitembo mu ntoki ari kuvomera ibimera, hirya ye hari urutoki rw'amatere rutari rwera, haragaragara imisozi hakurya iriho amashyamba.

Umugabo w'umuhinzi ari kuvomera imyaka ye iri mu butaka itaramera, yambaye ipantaro y'ikoboyi, ishati y'umweru ndetse n'ingofero, uruhande rwe hari iyindi myaka itarera.

Umudamu wambaye igitenge, afite akavido ari kuvomera amashu, ahinze ku butaka bushashe, iruhande hari ibiti bigiye byegeranye, bifite amashami.

Mu kibaya gikikijwe n'imisozi hejuru ku musozi hariho ibiti, mu kibaya naho hari inyubako zikikijwe n'ibiti, hari ubwanikiro banikaho imyaka, hari n'ubwanikiro busakaje amabati y'umweru ndetse n'izindi nyubako zisakaje amategura.

Mu misozi myinshi irimo ibibaya munsi yayo hagaragara imisozi ihinzeho imyaka, igaragaza intabire ahandi hariho ibiti bikikije iyo misozi ndetse mu mirima hagiye harimo n'ihinze irimo n'imyaka.

Ikibaya kinini kirimo ibimera byinshi birimo ibyatsi, ibigori ndetse hari n'imisozi iririho amaterasi, ibiti, hakurya hari kugaragara ikirunga kiriho ibicu ko kitagaragara neza.

Umusozi uriho amaterasi y'indinganire. Uhinzeho imyaka itandukanye harimo: insina, ibigori ndetse hariho n'inyubako zisakaje amabati y'umweru ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu kirambi cyagutse harimo n'udusozi tugufi harimo urugo rumwe rufite inzu isakaje amategura ndetse n'ibikoni bisakaje amategura, munsi y'urugo harimo insina ndetse n'igiti cya gereveriya.

Ikibaya cyagutse gihinzemo ubwoko bwinshi bw'ibiribwa, hari ibiti biteye ku murongo, hanyuramo akayira kambukiranya kanyurwamo n'abaturage, hari inyubako zubakishije amabati y'umweru.

Umusozi ufite akanunga hejuru ukikijwe n'indi misozi hariho ibiti by'amoko atandukanye, hahinzeho ibihingwa abahinzi bahinga, hakurya haragaragara ikirere.

Ihene iri kurisha iri kumwe n'izindi hene zifite amabara y'umweru n'ikigina, hirya hari abantu barimo bazitegereza bareba uko zimeze.

Zirimo amasake n'inkoko kazi. Ziri ahantu mu cyumba zororerwamo, ziri guhabwa ibiryo ndetse ziri ahantu hari umwijima mu cyumba kitabona neza. Ni inkoko z'umweru zimaze gukura ku buryo zanaribwa.

Abaganga bavura amatungo bari kuvura inka ziri mu rupangu, inka zifite amahembe maremare ndetse izina ryazo bazita Inyambo, abaganga bambaye imyenda yabugenewe irimo n'ibisurubeti.

Umushumba wambaye inkweto za bote n'ingofero y'umukara, afite ibasi ari guha inka amazi ye yaziritse ku giti kugira ngo itagenda, inyuma yabo hari insina z'amakoma meza afite ibara ry'icyatsi.

Ubushyo bw'ingurube harimo iz'umweru n'umukara, ziri kurya ibiryo byazo aho ziba mu biraro byazo, zimwe ziri kurya, izindi ziri inyuma y'izindi zitegereje ko izindi zirangiza.

Ingurube y'umukara nini ifite amatwi manini n'umunwa munini, iri mu kiraro cyayo kirimo ibisogororo ,ikiraro cyubakishije sima ndetse giteye n'amabara y'umukara ku ruhande.

Ihene nyinshi zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina zifite n'amahembe ziri mu gihuru ziri kurisha kugira ngo zihabwe umushumba wazo azicyure, hirya yazo hari ibiti birebire bifite amashami.

Mu nzu bororamo inkoko, hagaragara inkoko nini n'inoya, harimo iziri gutora, izindi zirahagaze, harimo indobo bifashisha bazana ibiryo, ni ikiraro cyubakishije ibiti kugira ngo inkoko zitaguruka.

Inka y'amabara y'umweru ndetse n'ikigina yambaye iherena, iri mu kiraro kirimo ibisogororo bigaragara ko bayihaye ubwatsi, iri munsi y'ibiti birebire ndetse n'indabyo ziri iruhande rw'ikiraro cyayo ndetse kandi biri kugaragara yuko ubwatsi yabwanze.

Umushumba ushinzwe kwita ku matungo ari mu biraro by'amatungo ayitaho, ari kumwe na bagenzi be bafatanya uyu mwuga ni mu biraro byubatswe n'ibiti ndetse n'amabati na senyenge ku ruhande.

Inyana zambaye amaherena y'umuhondo zose zisa, zimwe zirahagaze, izindi ziri kunywa amazi mu kibumbiro, izindi zirikurirana, izindi ziragenda, izindi ziri kureba hirya no hino.

Ihene nyinshi zirimo izifite amabara y'ikigina, umweru, ndetse n'umukara zambaye amaherena, zihagaze ku butaka zitegereje abashumba bazo ko bazicyura, bigaragara ko zivuye kurisha bari kuzicyura aho zirara.

Icyumba bakoreramo ubworozi bw'inkoko harimo inkoko zitandukanye, harimo amasake ndetse n'inkokokazi, harimo izifite amabara y'umukara, izifite amabara y'umweru ndetse n'izindi zifite amabara y'ikigina.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkwavu, umworozi wazo ari kuzigaburira areba ko nta kibazo zifite, zikingiraniye mu tuzu twabugenewe kugira ngo ibikoko bitazitwara.

Ubworozi n'inkoko hari inkoko nyinshi bahaye ibyo kurya, utudobo bazanishije ibyo kurya, hari kandi nkoko z'amoko atandukanye, harimo inini hari n'intoya, hari iziri gukura, hari izimaze gukora ku buryo zanaribwa kandi ziri mu nzu y'amabati.

Mu kiraro bororeramo inkoko harimo inkoko zikiri ntoya z'imishwi, harimo izifite amabara y'umweru n'izindi zifite amabara y'umukara, harimo ibiryo zirya ndetse n'imiti bifashisha bazivura.

Ikiraro kigezweho cya kijyambere cyubakishije ibyuma ndetse n'amabati inka ziri mu biraro byazo ziri kurya ubwatsi buseye bazisukiye kuri sima.

Ubuvuzi bw'inka, inka nyinshi ziri mu mbuga zambaye amaherena y'umuhondo, zifite ibara rimwe ziri mu mbuga ahantu hari itaka, ku ruhande hari ibyatsi kandi urabona ko zikeneye amazi yo kunywa kugira ngo icyaka kitazica.

Ingurube y'ingore iri mu kiraro cyayo bayigaburiramo ibyo kurya ari naho iba buri munsi, mu kiraro hagaragaramo ibiryo ingurube itariye, ikiraro cyubakishije sima ndetse harimo n'ibitembo byinjizamo amazi.

Aborozi b'ihene bahagaze mu rwuri rw'ihene bari kureba ihene zabo, ihene zimwe ziri kurisha izindi zirahagaze, zifite amabara y'umweru, amahembe ndetse n'imirizo ireba hejuru ziri kugenda izindi zirahagaze.

Mu dufuka twinshi tugaragara harimo turimo ubunyobwa, amageri, ibishyimbo by'amabara y'umutuku n'umukara, ibisate ubunyobwa ndetse n'amageri y'ibisate n'ibindi bitandukanye harimo n'ubunyobwa.

Ingurube ifite amabara y'umweru n'umukara y'ishashi iryamye mu kiraro cyayo hasi, aho yataye umwanda mu kiraro ndetse ikanahaganga. Ikiraro cyubakishije sima.

Umuganga w'amatungo ari gutera urushinge inka yarwaye, ayifashishwe n'abandi bashumba, iri mu kiraro iri kumwe n'izindi, iruhande rw'indabo ziteye hafi y'urugo.

Umuganga w'amatungo wambaye imyenda yabugenewe harimo itaburiya ndetse n'uturindantoki afite urushinge ari gutera umuti inka, bagenzi be bari kuyimufasha kugira ngo itirukanka.

Abaganga bavura indwara z'amatungo, bari kwiga uko bavura amatungo bayabaze, bifashishije ibikoresho byabugenewe, bari kwiga ko babaga ayo matungo, bigiye ku rukwavu.

Abaganga bavura amatungo bari kuvura inka iri mu rupangu, abaganga bamwe bari imbere mu rupangu, bambaye inkweto zabugenewe, bambaye n'amarinete biteze udutambaro kugingira ngo inka zitabanduza.

Abaganga b'inzobere bazobereye mu byo kubaga, bari kuvura umubyeyi. Ni abaganga benshi, bambaye imyenda yabugenewe, bari kubaga umurwayi aryamye ku gitanda, iruhande rwabo hari ibikoresho bitandukanye bifashisha.

Abaganga bavura indwara z'amatungo bari kubaga itungo bagira ngo baryigireho bafite ibikoresho byabugenewe ndetse bambaye uturindantoki tubafasha kwirinda ko umwanda wabageraho.

Umuganga w'inzobere mu kuvura indwara z'amatungo, ari mu cyumba akoreramo ubushakashatsi, yambaye itaburiya yabugenewe y'umweru, ari kwandika indwara amaze kuvumbura.

Mu byumba bororeramo inkoko harimo inkoko z'imishwi ndetse ku ruhande hari imifuka irimo ibarizo, bifashisha kugira ngo inkoko zidakonja, zibashe gukura neza kugira ngo zitagwingira.

Mu byatsi by'imikenke, intare yuriye imparage kugira ngo iyiture hasi, irimo kuyihiga kugira ngo ibone uko iyirya, imparage iri kwiruka yirwanaho kugira ngo icike intare.

Intare y'ingore yicaye hejuru mu ishami ry'igiti igaramye ku giti iri kureba hasi niba yabona umuhigo ni ifoto yafashwe n'umuntu wari uri mu bukerarugendo.

Inyamaswa z'imparage zihagaze mu ishyamba, zimwe ziri kurisha izindi ziri kureba ko nta nyamaswa izitera. Iruhande rwazo hari ibiti bigufi bifite amababi y'icyatsi, ibindi bifite amababi yumye.

Imbeba zikivuka ziri mu cyari ziryamyemo, harimo izikiri ntoya ndetse n'izimaze gukura, zifite ubwoya burebure ku munwa ndetse n'amatwi ndetse kandi zifite amaso mato.

Inkende zirimo ingabo, ingore ndetse n'abana bazo, zigaramye ahantu ku mbuga, zirimo zota izuba, ziruhuka, zikirigitana, zirimo ziyitanaho mu buryo butandukanye, zireba n'uko umwana wazo ameze.

Inyamaswa y'idubu ihagaze mu gishanga, cyaretsemo amazi ifite ubwoya bwinshi, irasamye imikaka yayo iragaragara ndetse n'ururimi, amazuru afite imyenge yagutse ndetse n'amaso arengewe n'ubwoya.

Mu kigo cy'ishuri harimo inyubako igeretse kabiri, hashinze icyuma hagati mu kigo kirimo idarapo ry'igihugu, ku ruhande hari ibiti bizana umwuka.

Inyamaswa y'inkazi iba mushyamba y'ingwe, iri munsi y'ibiti bigufi bitari birebire, ni ahantu hagaragara ko ari mu butayu, kuko nta byatsi bitoshye bihari, kuko bigaragara ko imvura idaheruka kugwa.

Inyamaswa zizwi nk'imparage, ziri kugenda mu byatsi bitari birebire, izwi nk'imikenke, iruhande rwazo hari ibiti birebire bifite amashami, bifite n'ibibabi by'amabara y'icyatsi.

Ingwe iri kugenda yomboka, mu byatsi bigufi, kugira ngo ibone uko icakira inyamaswa iri guhiga. iruhande rwayo, hari imigina yacukuwe n'imiswa, kugira ngo ibone aho itura.

Ibyanya bikurura ba mukerarugendo, hari ibishushanyo by'inyoni ndetse n'iby'umuntu byifashishwa mu kwamamaza kugira ngo ba mukerarugendo basure ibyo byanya, inyuma yabyo hari ibiti birebire by'imigano bifite amashami ndetse n'ibibabi bitoshye.

Mu byatsi byitwa imikenke hari kugendamo isatura ifite umurizo, amatwi maremare, ndetse n'amahembe ku munwa wayo, iri kugenda inyuramo reba ko yabonamo inzira.

Impyisi ebyiri ziri mu mazi. Ziri guhuma zasamye, imikaka yazo y'imbere yose iri kugaragara. Zatunze amazuru hejuru ziri kugenda ziterera amazi hejuru kandi n'ubwoya bwazo bwatose.

Isatura iri kurisha ibyatsi mu ishyamba ifite amahembe imbere hejuru u'umunwa wayo n'amatwi hejuru y'amaso iri mu ishyamba ry'ibiti birebire biri iruhande rwayo.

Ihene y'ishyamba ihagaze mu ishyamba mu byatsi bigufi, ifite amahembe maremare afite udushami, amatwi, amazuru ndetse n'amaso, inyuma yayo hari ibiti birebire.